Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane ubarebye ku myambaro yabo, bicaye ku ntebe z'imikara urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umweru yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo n'umweru ku ruhande, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batatu urabona ko bakeye cyane kandi bafite ibyishimo bari mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'indabo nziza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama mu nzu isize amabara y'umweru. Bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo, bamwe muri bo ni abagore, abandi ni abagabo, bose bambaye impuzankano y'umweru, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo urubyiruko ubona ko bakeye cyane, bafite amakaramu n'impapuro imbere yabo bari kwandika, hateretse kandi n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya umurebye ku maso he arishimye yambaye ikote ry'umukara, umusatsi we ni muremure, ari mu nzu isize amabara y'umuhondo imbere ye gato hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu nziza kandi nini igizwe n'amatara yaka mu bwoko bugiye butandukanye, yiganjemo abagore ndetse n'abagabo bose bicaye ku ntebe z'imyeru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe basa nk'abakuze baracyeye cyane nkuko bigaragara bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yiganjemo abagore n'abagabo bombi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu, bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, urabona ko bakeye cyane, higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, buri wese muri bo imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bacyeye, aho bari hagizwe n'amabara y'icyatsi n'umweru, na bo bari guseka bambaye impuzankano zisa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo n'umweru, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe zisa, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane ku myambaro yabo, bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo. Imbere ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane nkuko bigaragara ku myambaro yabo, buri umwe wese ari kureba muri murandasi, bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bisa nk'aho bari mu nama, barakeye cyane, witegereje imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bicaye ku ntebe z'imikara bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakenye cyane bari mu nzu isize amabara y'umweru n'amarido y'umuhondo bicaye ku ntebe z'umutuku, yiganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bose barahagaze bari kurebana ,higanjemo abagore ndetse n'abagabo hirya gato bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku ntebe z'umukara higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe, imbere ye ateretse agacupa k'amazi n'impapuro nyinshi cyane.

Aba ni abantu benshi urabona ko bacyeye cyane bari mu nzu isize amabara y''umweru, bicaye ku ntebe z'imikara bisa nk'aho bari mu nama. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa yiganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bari mu nzu isize amabara y'umweru impande zose higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo urabona ko bakeye cyane barebye ku myambaro yabo barahuze bicaye ku ntebe z'imikara higanjemo abagore n'abagabo.

Mu muhanda haruguru yaho hari amazu ageretse kabiri ubona ko handitseho ngo hoteli cyangwa aparitema aho bacumbikira abantu bakaraharara, kandi munsi yaho hari aho bahahira hari isoko rinini bahahiramo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, yo kunywa higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bacyeye cyane ubarebye ku myambaro yabo, abari imbere biteretse uducupa tw'amazi bari mu nzu isize amabara y'umweru bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, mu nzu ifite amabara y'umweru. Urabona ko bakeye cyane, higanjemo abagabo bane n'umugore umwe, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bambaye impuzankano z'ubururu bicaye ku ntebe z'umweru, higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi igereretse inshuro zirenze eshatu, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye aho bakodeshereza amakositimu n'amakanzu y'ubukwe, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru basa nkabakuze, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bicaye ku ntebe z'ubururu.

Aba ni abagore bagera kuri babiri, bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye bose bambaye amadarubindi, aho bari hasize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse murandasi n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Abani abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane kandi bakurikiye bisa nkaho bari mu nama, imbere yabo ateretse za murandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bari mu busitani bwiza higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hirya yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku ntebe zisa umuhondo bari mu nzu isize amabara y'umweru bambaye impuzankano z'ubururu, bisa nk'aho bari mu nama yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abanyamagare bari mu isiganwa, bari mu muhanda wa kaburimbo wo mu karere k'i Muhanga, ukikijwe n'ibiti ndetse n'abantu bashungereye bari kureba amarushanwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bamwe baricaye abandi barahagaze, urabona ko ari ibintu byiza cyane barakeye, ubarebye ku myambaro yabo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye, bicaye ku murongo, ku ntebe z'umweru, bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hari undi mudamu uhahagaze, uri kugira ijambo abagezaho mu busitani bwiza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye aho bari basize amabara y'umweru baricaye bambaye impuzankano bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bisa nkaho bari kuganira bicaye ku ntebe z'umikara yiganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse agacupa k'amazi bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu ifite amabara y'umweru higanjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko bakeyeye imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bibereye ijisho, bamwe muri bo bicaye inyuma bambaye impuzankano z'umutuku, imbere kandi hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abana ni abantu bagera kuri batanu, bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru n'imeza, nkuko n'intebe bicayeho ubwo buryo zisa, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi na za murandasi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane basa nk'abakuze higanjemo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara ku murongo bari mu inzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bambaye amakote meza bicaye ku ntebe z'imikara babona ko ari ibintu byiza byiganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu ifite amabara y'umweru, basa nk'abakuze higanjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano z'ubururu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe muzu isize amabara agiye atandukanye, harimo umuhondo ndetse n'ubururu barakeye cyane higanjemo abagabo gusa, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bicaye ku ntebe zisa, ni ibintu bigaragara neza ku bireba.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umu n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe urabona ko hakeye cyane no ku myambaro yabo irabigaragaza, higanjemo abagabo, imbere hateretse uducupa tw'amazi na za mudasobwa.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bisa nk'aho bari mu nama, inzu barimo isize amabara y'umweru n'umuhondo, yiganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo bari mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeya cyane mu nzu isize amabara y'umuhondo, biganjemo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama.

Uyu ni umugabo ubona usa nku'ukuze nta musatsi na mukeya afite uruhara, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara ishati y'umweru n'idarapo ku ikora urabona ko ari ibintu byiza cyane imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Aba na bantu benshi bari ahantu hamwe mu inzu isize amaraba y'umuhondo, urabonako bacyeye cyane bisankaho bari mu inama, bicaye k'umurongo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama barakeye cyane kandi barishimye, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bicaye ku ntebe z'umweru yiganjemo abagore n'abagabo.

Ibikorwaremezo ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda hakaba harimo amazu, amapoto y'amashanyarazi, imihanda minini kandi myiza, akaba ari n'imihanda isukuye, akaba ari n'umujyi urangwamo isuku, akaba ari umujyi w'igihugu cyacu akaba ari umujyi wa Kigali.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru yiganjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bari mu nzu isize amabara y'icyatsi.

Aba n’abantu benshi ubona bari ahantu hamwe barasa nk'abakuze, barakeye cyane nkuko bigaragara higanjemo abagore ndetse n' nabagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe mu nzu yuzuyemo amarido y'ikigina ameza y'umutuku ateretseho uzamurandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa barakeye cyane bisa nkaho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe inzu isize amabara y'umuhondo impande zose, bicaye ku ntebe zisa higanjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko bakeye cyane imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bisa nkaho bari mu nama barakeye, imbere yabo hari umudamu mwiza wambaye umupira w'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bicariye ku ntebe z'imyeru, higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi n'amakayi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru, bose bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse za murandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane, bamwe muri bo bambaye amakote bisa nk'aho bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe basa nk'abakuze, urabona ko bakeye cyane bahagaze neza bemye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye amakote meza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bari mu nzu isize amabara y'umweru haganjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba n' abantu batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo barakeye cyane yiganjemo abagabo babiri n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umukara n'amadarubindi imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, arakeye cyane, umurebye ku maso he yambaye amadarubindi, ikote ry'ubururu, ndetse n'ishati y'umweru nziza, imbere ye ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umunara muremure cyane ugizwe n'amabara y'umweru, ukaba ukikijwe n'amashyamba agiye atandukanye, ibigori ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umunara muremure usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, akikijwe n'ibyuma bizengurutse biriho na za senyenge, hirya gato hari ibiti bitose bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi higanjemo abakobwa n'abahungu b'urubyiruko urabona ko bakeye cyane, bicaye ahantu hamwe bambaye impuzankano zisa umweru ndetse na kaki, imbere yabo hateretse za murandasi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe ubona ko bisa nkaho bari kuganira, imbere yabo hateretse murandasi cyangwa se mudasobwa, hirya gato hari abicaye mu busitani buhari n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru urabona ko bakeye cyane bose bambaye impuzankano, Biganjemo urubyiruko rw'abakobwa, ndetse n'abahungu. Imbere ateretse murandasi.

Iri ni itara rirerire rimanitse mu kirere ryo ku muhanda risize amabara y'umweru rikikijwe n'ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda agongaho bose.

Iyi ni inzu nini cyane isize amabara y'ubururu ifite igipangu cy'umukara ndetse n'amabati y'umutuku, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire riziritseho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, zikikijwe n'ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara. Haranyuramo umuntu umeze nk'umukobwa, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka hirya gato ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda ngaho bose.

Iyi ni inzu nziza ifite amabati y'umukara, ikagira igipangu cy'umuhondo gifatanye n'ikindi cy'umweru, n'ubururu imbere hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa wo mu bwoko bwa kaburimbo. Usize amabara y'umukara hirya gato hari ikinyabiziga kihahagaze n'umuntu uri kuhanyura, hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije, isize amabara y'umuhondo hasi gato ari ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zigiye zitanduiye nk'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bw'akaburimbo, usize amabara y'umukara n'utorongo tw'umweru, ku ruhande haracaho abantu babiri hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ubwatsi bukeya n'amazu asize amabara y'umweru n'amabati y'umukara ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Rikikijwe n'ibiti bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Aya ni amapoto maremare afatanye hagati hariho igikoresho gisa umweru kifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hanini kandi heza huzuyemo amazu agiye agerekeranyije asize amabara y'umweru harimo kandi n'ubusitani bufite indabo zigiye zitandukanye, nk'umutuku umuhondo n'icyatsi, ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umunara muremure usize amabara y'umweru, ari kunyuraho insinga zitandukanye zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ukikijwe n'ibiti by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hariho abantu bagiye batandukanye, yaba uwicaye hepfo ndetse n'uri kugenda. Ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umunara muremure wifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ukikijwe n'ibiti na byo by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi, hasi gato hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse n'abantu.

Ubu ni ubusitani bwiza, butoshye bufite indabo zigiye zitandukanye ku mabara; yaba iz'umuhondo, iz'icyatsi, n'iz'umutuku; hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kugenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bw'igitaka, hari kugendamo abantu benshi cyane n'ikinyabiziga cya moto, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho bose.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi, higanjemo abakuze abagore n'abagabo ndetse n'abana, bisa nk'aho ari kwa muganga kubera ko batonze umurongo bamwe baricaye.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje, igerekeranyijemo kabiri, isize amabara y'umuhondo, ibirahure birabonerana ndetse n'amabati y'umutuku, imbere yayo hari ubusitani bufite ubwatsi butoshye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usibye amabara y'umukara harimo ibinyabiziga byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bari kuhagenda hirya gato hari inzu ya etaje igerekeranyije.

Ubu ni ubusitani bwiza ubona ko buratoshye cyane, burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umweru, iz'umuhondo ndetse n'icyatsi, bukikijwe n'amazu mare mare ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari kugenda urabona ko bishimye cyane ubarebye ku maso habo barakeye bambaye imyenda myiza higanjemo abagore ndetse n'umugabo'umwe.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo impande zose, hirya gato hari ibinyabiziga nk'imodoka, imbere yabyo hari ubusitani bwiza butoshye.

Ubu ni busitani bwiza butoshye gusa icyatsi harimo indabo zigiye zitandukanye nk'iz'umuhondo, umutuku n'umweru ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari ahongaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, imbere yazo hari inzu nini ya etage igerekeranyije.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranijemo inshuro ebyiri isize amabara y'umuhondo, amabati y'umutuku n'ibirahure by'umukara, imbere yayo hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye bugizwe n'indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umutuku, iz'umuhondo ndetse n'icyatsi zikikijwe n'amazu manini afite amabati y'umutuku.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati ku ruhande hari ubusitani bwizazu maremare yo mu bwoko bwa etage agerekeyije.

Aha ni ahantu hari inzu zo mu bwoko bwa etaje, zigerekeranyije, zisize amabara y'umweru, hirya gato hari imodoka iri kuhasohoka, ikikijwe n'ibiti birebire, bitanda umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bambaye impuzankano bose zisa umukara ndetse n'umweru higanjemo abagore n'abagabo imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze arakeye cyane yambaye amadarobindi ingofero y'umukara irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ikanzu y'umutuku urabona ko ari ibintu byiza cyane bimubereye.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, arakeye cyane kumaso ye, umusatsi urasokoje. Yambaye amadarubindi n'ikanzu y'umutuku, irimo umukara n'umweru hagati. Urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bisa nk'aho bari mu nama, bamwe barahagaze abandi baricaye higanjemo abagore ndetse n'abagabo inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aba ni abagabo babiri ubona basa nkabakuze kandi bakeye cyane bambaye impuzankano y'umukara ndetse n'umweru hari ibyo bari guhererekanya bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Umugabo ubona usa nkukuze afite uruhara, arishimye nkuko bigaragara mu maso ye, yambaye ikanzu y'umutuku, irimo umukara, n'umweru imbere, n'ishati y'ubururu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane kandi bafite ibyishimo mu maso yabo kubera ko bari guseka, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano zisa.

Aba n'abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo bose bambaye imipira y'umweru, inyuma yabo ari icyapa kinini cyanditseho ngo inkiko Gacaca. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, umurebye ku maso he afite ibyishimo, agasatsi ke karasokoje, yambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'umukara n'umweru urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze agasatsi ke karasokoje hari ibyo ariko kuvuga, afite igikoresho kifashishwa mu kurangurura amajwi, yambaye imyenda y'imikara irimo umweru imbere ye hari idarapo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, umurebye ku maso he, ntabwo afite ibyishimo. Agasatsi ke karasokoje, yambaye ikanzu y'umutuku, irimo amabara y'umweru hagati.

Aba ni abagabo babiri ubona basa nk'abakuze bari kuganira urabona ko bahuje urugwiro, hirya gato ari ibiti ndetse n'ubusitani bwiza bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho bose.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bamwe barahagaze abandi baricaye bambaye impuzankano zisa uko ari bose higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, ari ahantu hasize amabara y'umweru, arahagaze yambaye ikote ry'ubururu, agasatsi ke karasokoje ndetse n'amadarubindi y'umukara.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bose bambaye impuzankano zisa umukara ndetse n'umweru n'udupfukamunwa, imbere yabo hateretse za murandasi n'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko basa nk'abakuze, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Bamwe bicaye hasi abandi bahagaze mu biti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi biri aho.

Uyu ni umugabo ubona usa nkukuze umurebye ku maso he yambaye ingofero y'umukara n'umurongo w'umuhondo ndetse n'ikanzu y'umutuku irimo umweru mwiza cyane!

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane bambaye impuzankano y'abapolisi, yiganjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bafite imbunda mu ntoki, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, bisize amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'amagambo yandikishije umweru.

Mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru hagati no kuruhande hari ibiti birebire byicyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubinyabiziga byose n'abantu bagendamo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haranyuramo ibinyabiziga n'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, igihe iteye mu buryo butunguranye gifite amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, umunwa wacyo urasa umukara.

Iki ni igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro igihe uteye mu buryo butunguranye gifite amabara y'umutuku impande zose, ndetse n'umunwa w'umukara, nawe nakugira inama yo kukigura ukagitunga iwawe.

Aha ni hantu hari ibiti byinshi, urabona ko ari byiza cyane byose bisa icyatsi kandi biratoshye, ni birebire bikoreshwa mu gutanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye ahongaho bose.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro igihe wateye mu buryo butunguranye, bisize amabara y'umutuku impande zose ndetse n'umunwa w'umukara.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, ifite amabara y'umutuku n'amagambo yandikishije umweru, n'umunwa ujya gusa umukara.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze ahagaze imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, ateruye igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro igihe wateye mu buryo butunguranye kigizwe n'amabara y'umutuku impande zose ndetse n'umweru hagati n'umunwa w'umukara.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga nk'amagare ndetse n'abantu ku ruhande, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho hari n'amatara amurika cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati utw'umuhondo, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye. Isize amabara y'umutuku, ubururu, n'umweru ndetse n'umunwa w'umukara.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haragendamo ibinyabiziga bibiri bya moto ndetse n'abantu bahagaze hafi aho ngaho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane kandi barishimye, inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze agasatsi ke kararambuye, yambaye amadarubindi n'ikote ry'umukara ishati y'umweru, imbere ye hari impapuro ari kwandika n'uducupa tw'amazi ku ruhande.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'aho akuze agasatsi kiwe karasokoje arakeyeye cyane nk'uko bigaragara ku myambaro ye yambaye ikote ry'umukara, ishati yumweru urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara, baracyeye, abenshi muri bo bambaye amakote, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane, biganjemo abagore ndetse n'abagabo bose bicaye ku ntebe z'imikara ibintu byiza cyane nk'uko bigaragara.

Aba ni abantu benshi ubona bafite ibyishimo nk'uko bigaragara barakeyeye bafite amadarapo mu biganza byabo bayazamuye higanjemo abagore ndetse n'abagabo bose bambaye impuzankano zimeze kimwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bafite ifoto mu biganza byabo higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bishimye bafite ifoto mu biganza byabo ndetse n'amadarapo, higanjemo abagore n'abagabo urabona ko bari guseka ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umugore ubona mwiza cyane afite ibyishimo ari guseka, umusatsi we urasakoje yambaye ishati y'umweru n'igitenge, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu yaka amatara agiye atandukanye bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse murandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aha ngaha ni amafaranga yama nyarwanda, ashobora kuba ari umuntu uje kuyabikuza cyangwa se uje kuyabika, usanga aya n'amafaranga yama nyarwanda inote nkuru za bitanu(5000rwf) ,bitanu(5000rwf).

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bafashe ku madarapo y'igihugu cy'u Rwanda, bose bazamuye amaboko yabo, higanjemo abagore gusa bambaye imishanana.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane basa nk'abakuze ubarebye mu maso, yabo bambaye impuzankano zisa umweru n'umutuku ni ibintu byiza cyane.

Abana n'abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeya cyane bari kuganira bafite ibyishimo higanjemo abagore ndetse n'abagabo hirya yabo hari igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bakeye bagera kuri bane bahagaze ahantu hamwe, urabona ko ari ibintu byiza basa nk'abakuze ni abadamu, impande zabo hari amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa barakeye cyane nk'uko bigaragara ku myambaro yabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe nk'uko bigaragara, uwo hagati yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru ahagaze imbere y'igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi afite urupapuro mu ntoki ze.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haracamo ikinyabiziga cy'imodoka urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara harimo ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abantu hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka ndetse n'abantu, ku ruhande hari igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo ikinyabiziga cy'umweru gitwara imizigo, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, n'uturonko tw'umweru ku ruhande haranyuramo ikinyabiziga kinini cyane gitwara abagenzi hirya gato hari umuntu uhahagaze.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati harimo ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange, hirya gato hari abandi bahagaze higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru ku ruhande, mo hagati haracamo ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga nka moto, hirya gato haracaho abantu bagiye batandukanye, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye: nk'imodoka yikorera imizigo, ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ikinyabiziga gitwara imizigo cy'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'igare hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze ikinyabiziga cyiza gitwara abagenzi, hirya gato hari ubusitani butoshye bw'icyatsi.

Ibikorwaremezo ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda hakaba harimo amazu, amapoto y'amashanyarazi, imihanda minini kandi myiza, akaba ari n'imihanda isukuye, akaba ari n'umujyi urangwamo isuku, akaba ari umujyi w'igihugu cyacu akaba ari umujyi wa Kigali.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara hanyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka yikorera imizigo ndetse n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haraca ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byinshi nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, hanyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto ndetse n'imodoka n'abantu, ku ruhande hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bifite amabara y'umweru ndetse n'abantu hafi aho ngaho.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umuhondo, hagati n'utundi tw'umweru. Kuhande hari ubusitani bwiza butoshye n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka z'ubwoko bwose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haragendamo ikinyabiziga cy'igare, hariho umuntu wambaye ishati y'umweru hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara m, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse n'igare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga yaba ibinini ndetse n'ibitoya bigiye bitandukanye byose ni imodoka.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga nk'imodoka kinini cyikorera imizigo hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto ndetse n'abantu ku ruhande hari inzu igerekeranyije ya etaje.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto y'ubururu ndetse n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye: nka moto igare ndetse n'imodoka hirya gato hari abantu bari kuhagenda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cyikoreye imizigo cy'umutuku. Hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga n'amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga, n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, haracaho ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto; hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n' amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato ari inzu ndende ya etaje, igerekeranyije.

Inzu nshyashya igurishwa mu mujyi wa kigali mu gace ka kanombe ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'imwe z'amanyarwanda, iyo nzu iri mu bwoko bwa cadasiteri isakajwe amabati ya shokora ndetse inzugi zayo zisa umukara ikaba iteye irangi ry'icyatsi, imbere y'iyo nzu hubatswe amapave.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande hari ubusitani bwiza , haragendamo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye igare, moto ndetse n'imodoka .Hirya gato hari ibiti birebire bitanga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cyikorera imizigo ndetse n'abantu, ku ruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka yikorera imizigo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu, nk'imodoka na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga gitwara imizigo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga gitwara imizigo cy'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'akarongo k'umweru ku ruhande ndetse no hagati, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo abantu ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'ibitwara abantu mu buryo bwa rusange, gisa umweru n'amatara y'umutuku.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hagendamo ibinyabiziga bugiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato har’ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haracamo amagare ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'uturongo tw'umweru kuhande hagati tw'umuhondo hacamo ikinyabiziga cya moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo bisa nkaho ushaje haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba moto ndetse n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanga wo mubwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka yikorera imizigo ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bihahagaze bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru. Haranyuramo imodoka nziza cyane itwara abantu ifite ibirahuri bibonerana.

Uwo mu bwoko bwa kaburimbo aho urasa umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande aranyuramo ikinyabiziga cy'umutuku gitwara imizigo. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hari kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka hirya gato hari igiti kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu mu umuhanda nk'uko bigaragara urashaje urimo abantu benshi bagiye batandukanye, yaba abagore cyangwa abagabo ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ni munini, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, ndetse hirya hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru hagati ndetse no ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no kuhande haranyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aragendamo abantu ndetse n'ibinyabiziga byikoreye imizigo bigiye bitandukanye, hirya gato hari inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeyije.

Ubu ni ubusitani bwiza cyane butoshye bw'icyatsi, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagera aho ngaho bose, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iki ni ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko, gikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi n'iz'umuhondo ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu menshi yiganjemo ayo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije ndetse n'andi asanzwe asize amabara y'umuhondo n'ubururu, amagambo yandikishije umweru imbere y'ubusitani bwiza cyane.

Ibi bi ibyapa byo mu muhanda bisize amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara hagati hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse n'ibindi, hirya gato hari amatara maremare amurikira abahagenda bose.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande no hagati haranyumo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umuhondo hagati n'utundi tw'umweru ku ruhande, hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi foto iratwereka icyapa cya eyateri ikatwereka umuntu ufashe urupapuro mu kuboko kw'ibumoso ndetse akaba afite na terefone mu kuboko k'iburyo akaba ari gufotora urupapuro.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe, yiganjemo amaremare yo mu bwoko bwa etaje, agerekeranyije asize amabara y'umweru, akikijwe n'ibiti byiza bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Izi ni inzu nyinshi ziri ahantu hamwe zigiye zitandukanye, nyinshi muri zo zifite amabati y'umutuku zikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubatuye aho ngaho bose.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umutuku, hasi yayo hahagaze abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga nka moto n'imodoka hari n'igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo. Usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande n'utundi tw'umuhondo hagati aracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya gato hari amazu maremare yo mu bwoko bwa etaje.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, urabona ko ibinyabiziga byose birimo byacanye amatara hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara bisa nkaho ushaje, haracamo abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi agiye atandukanye amwe muri yo afite amabati y'umutuku akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye ahongaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ukikijwe n'amazu ya etaje agerekeranije meza ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ukikijwe n'amazu menshi cyane meza agerekeranyije ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hari amazu menshi agiye atandukanye yaba ayo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije ndetse n'andi asanzwe akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Izi ni imodoka nyinshi ziri ahantu hamwe zirahagaze, zifite amabara agiye atandukanye harimo n'umweru n'umukara, zikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe yo mu bwoko bwa etaje agiye agekereranyije urabona ko ari ibintu bibereye ijisho hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ubona ko Ari muto cyane ukikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'amazu yo mu bwoko bwa etaje.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etage igerekeyije isize amabara agiye atandukanye yaba umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yayo hari ubusitani bwiza n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aya ni amazu menshi agiye agerekeranyije, amenshi muriyo, amabati yayo afite amabara y'umutuku, imbere kandi hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubatuye aho ngaho bose.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara agiye atandukanye umweru, ubururu bwijimye ndetse n'ibirahure by'umukara imbere yayo hahagaze umugabo wambaye imyenda ya kacyi.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi cyane bagiye batandukanye, higanjemo urubyiruko ,abagore, ndetse n'abagabo, hari n'ibinyabiziga byinshi nka moto, amagare n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bw'akaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande ndetse no hagati utw'umuhondo haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, ukikijwe n'amazu maremare ya etaje.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara urabona ko ari ibintu byiza cyane ukikijwe n'amazu maremare ya etage agerekeranyije, hirya gato ar'ubusitani butoya butanga umuyaga n'amahumbezi.

uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, ku ruhande ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru ku ruhande ndetse no hagati, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hirya gato ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, uturongo tw'umuhondo hagati n'utundi tw'umweru ku ruhande. Hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturonko tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati hari ubusitani bwiza, haranyuramo binyabizga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru ku ruhande n'tundi tw'umuhondo, hagati aracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga akayaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku mpande hari ubusitani bwiza butoshye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'ibitaka ugizwe n'amabara y'ikigina ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ndetse n'utundi tw'umuhondo. Ku ruhande hanyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru kuhande ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya gato hari ibiti birebire bitaga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande no hagati hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo. Usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari abantu ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto hirya gato hari ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, ku ruhande haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.